Abantu ubona ko bari mu muganda cyangwa se bari mu kindi gikorwa cyiza cyo kuba bafasha umuntu utishoboye. Bambaye amajeri ndetse n'imipira y'imituku, amapantaro yo yiganjemo imikara. Hakuno hahagaze abandi bantu ndetse n'amajerekani y'amazi, abo bantu ubona ko barimo barakata icyondo.

Abantu ubona ko ari abaganga bakaba bari mu cyumba cyabugenewe, bambaye hejuru amashati y'umweru n'amapantaro asa icyatsi, bakaba bari gukora ku mamashini afite insakazamashusho n'ibindi.

Inyubako iteye irange ry'umuhondo mo imbere muri koridoro ndetse n'irindi risa nka pinki inyuma. Ifite inkingi z'umukara. Imbere yayo mu mbuga, haparitse imodoka y'imbangukiragutabara, iri mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho ku ruhande, ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ubuvuzi bw'ibanze ni ingenzi bityo kugira ngo abaturage bamenye ngo ubuzima bwabo buhagaze bute. Umugore wambaye isheri y'umutuku iriho ikiyemetso cy'umusaraba afashe agakore mu ntoki ke kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, arimo arawupima umuntu uri iruhande rwe ku kaboko.

Itsinda ry'abantu bambaye amajire y'umutuku ariho ikimenyetso mu mugongo cy'umusaraba. Akaba ari itsinda ritanga ubutabazi bwi'banze ku bantu bakomeretse cyangwa se barwaye bakeneye kugezwa kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

Abagabo bahagaze hamwe, ubona ko bari gufata agapapuro kari imbere yabo gasa umuhondo, hirya yabo hari imodoka y'imbangukiragutabara, iri mu ibara ry'umweru n'amagambo ndetse n'umurongo biriho by'umutuku.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kandi by'umwihariko kikaba gisa nk'aho ari inzu y'ababyeyi cyangwa se ibyariro, aho hari ababyeyi batatu bambaye udushura dufite ibara ry'umweru ubona ko bateruye abana.

Ubutabazi bwihutirwa butangwa n'abantu batandukanye, bakora muri Croix Rouge ndetse bambaye amajire abigaragaza n'imyenda y'impuzankano. Inyuma yabo hari umugabo uri kugenda wambaye imyenda y'imikara ndetse haparitse na moto.

Abantu batandukanye harimo abaganga bambaye amashashi y'ubururu n'umweru, bari gushyitsa umuntu mu modoka y'imbangukiragutabara kugira ngo bamugeze ku bitaro bikuru yitabweho kurushaho, hari kandi n'undi uri gufata amashusho.

Umugabo ubona ko akomeretse, bamupfutse mu mutwe. Ari kureba hasi. Ni byiza ko rero mu gihe ugize ikibazo runaka, wihutira kujya kwa muganga kugira ngo, bakwiteho bityo ukaba wakirinda ibindi bibazo bishobora kuba byava cyangwa se byaturuka ku gikomere wagize mu gihe kititaweho.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze hamwe, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'andi, harimo umugabo wunamye uri gukaraba intoki ze kuri kandagira ukaraba, ifite indobo ndetse n'akabase bisa umutuku.

Ubuvuzi bw'ibanze ni byiza ko bumenywa n'umuntu uwo ari we wese. Hano harimo umugabo urimo urereka abantu uburyo ushobora kuba wakanda umuntu mu gatuza wagize ikibazo akaba yazanzamuka .Inyuma ye hari abandi bantu bahagaze bari kumwitegereza bigira ku byo ari gukora.

Abagabo bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru bambaye amakasike n'agapfukamunwa, bari gukurura umuntu urwaye ku gatanda bamujyana mu cyumba aho bagiye kumwitaho by'umwihariko.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo nk'amapamba, harimo ibipfuko, uturindantoki, harimo imiti iri mu mashashi, mu ducupa n'ibindi dutandukanye.

Itsinda ry'abantu bambaye amajire y'umutuku ndetse n'imyenda yabo iri mu mabara y'umweru n'umukara na kaki, bamwe baricaye abandi bahagaze, inyuma yabo bakaba hari irangi ry'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho amakaro ku bikuta gifite ibirahure n'inzugi, harimo abaganga bane bambaye amatabubura y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, imbere yabo hari igitanda kiryamyeho umuntu bigaragare ko agiye kubagwa.

Abantu bahagaze mu cyumba gikorerwamo ubutabazi bw'ibanze, bambaye amajire y'umutuku n'umweru kandi arimo ikimenyetso cy'umusaraba ya kuruwa ruje, harimo umurwayi uryamye hasi ndetse bagiye kumuterura kugira ngo bamukorere ubutabazi bw'ibanze.

Abantu batanga serivisi zo gufasha abantu bahuye n'ibibazo by'ubuzima, birimo uburwayi, imvune n'ibindi, bakaba babageza kwa muganga, bifashishije imodoka yababugenewe, imbangukiragutabara.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko cyakirirwamo abantu baje kwivuza bityo bakabasuzuma, harimo igitanda kiryamwaho n'umuntu uje kwivuza, harimo intebe eshatu zisa umukara, harimo imeza ndetse n'ibindi.

Abantu bari mu nzu aho bicaye bitabiriye inama yabahuje, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'amakayi, iruhande rwabo hari umugabo uhagaze bisa nk'aho ari we uri kubagezaho ijambo.

Umuganga wambaye agafire gafite ibara ry'ubururujuru ndetse yambaye na ga mu ntoki kandi ari mu cyumba kirimo insinga nyinshi zikoreshwa n'amashanyarazi harimo n'ibikoresho byinshi agiye gukoresha mu kwita ku murwayi uryamye iruhande rwe.

Itsinda ry'abantu bifotoje, ubona ko bishimye hakaba harimo ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Abaganga bari mu cyumba kirwariyemo umurwayi wambaye amasogisi y'umukara ndetse inkuta z'icyo cyumba zifite amakaro y'umweru kandi umuganga umwe ari gusuzuma uwo murwayi akoresheje ibyuma bifite imigozi myinshi igiye itandukanye.

Kujyana abana kwa muganga bakavugururwa kandi bakitabwaho hakiri kare ni ingenzi kugira ngo bakomeze bagire imikurire myiza, umugabo wambaye ijiri y'umukara ndetse n'umupira w'icyatsi arimo araha umwana urukingo, imbere ye hari abagore bagera kuri bane bateruye abana.

Abagabo n'abagore bakora mu bijyanye n'ubuvuzi, harimo abirabura ndetse n'abazungu, hari umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara ndetse n'ijire n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu bwijimye kandi hari n'umuzungu wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru.

Abantu batatu bakora kwa muganga bavura abarwayi, bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu bwijimye, ubwerurutse n'undi wambaye imyenda y'icyatsi kandi bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi nk'imashini, igitanda ndetse n'itara ritanga urumuri.

Ibigo by'ubuvuzi ni ngombwa ko bikoresha abantu b'abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo bajye bita ku buzima bw'abantu ndetse babakorere ibyo bakeneye, hari umuganga uri guhereza mugenzi we umukasi ndetse bambaye imyambaro yabugenewe.

Abantu bakora mu nzego z'ubuzima bicaye mu cyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru imbere ye hari mudasobwa, kandi buri umwe agiye afite icupa ririmo amazi cyangwa se ji.

Umuganga wambaye impuzankano afite ibara ry'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, kandi imbere ye hari umurwayi ari gusuzuma ndetse inyuma yabo hari igikuta kiriho amakaro.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'amarinete yicaye iruhande rw'abaganga bari kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse muri abo baganga harimo umugore ukuze wambaye ibitenge, hirya ye hari undi mugabo uri kwandika na we wambaye agapira gafite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'umukara afite ikayi mu ntoki, imbere ye hicaye urujya n'uruza rw'abantu barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo umukara n'umweru, iruhande rw'uwo mugabo uhagaze hari imeza nini iteretse ibikoresho bitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umukara yahinnye amaboko, yambaye akamuranga mu ijosi, afashe ifoto cyangwa se inyemezabushobozi ye, ayifatanya n'undi mugabo begeranye wambaye umupira w'umukara ndetse n'agapira k'umweru mo imbere.

Abaganga batatu, bambaye amataburiya y'icyatsi, bifashisha cyangwa se bambara iyo bagiye kukuvura, bari mucmba cyubakishije amakaro, kirimo igitanda kiryamyeho umurwayi ugiye kubagwa.

Icyumba kirekire, giteye irangi ry'umweru cyo kwa muganga, kirimo abantu babahaye ibitaro. Baryamye ku bitanda bitondetse ku murongo, kandi hejuru ya buri gitanda hakaba hari inzitiramibu.

Abantu bitabiriye inama cyangwa se amahugurwa runaka yerekeranye n'ubuzima, bakaba bari guhabwa amasomo n'umugabo uhagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, akashashi mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa by'umweru, yambaye uturindantoki tw'umweru n'isaha ku kuboko, imbere ye hari icyuma cyabugenewe gishyirwamo abana bavutse ariko batujuje igihe cyangwa se batameze neza.

Abantu bahagaze hamwe bagera kuri batanu b'abaganga. Bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi n'ubururu kandi bambaye n'udupfukamunwa. Bari mu cyumba cyagenewe kuvurirwamo abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye.

Abantu batatu bahagaze mu cyumba ndetse harimo umukecuru w'umuzungu, hari umugabo w'umuganga wari kubasobanurira imikorere y'iryo vuriro yambaye itaburiye y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso kandi hirya hari ibishushanyo byerekana ijisho.

Abantu bicaye mu nzu iteye irangi ry'umweru, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umweru, umukara n'ayandi mabara atandukanye, hagati hicayemo abantu ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Abaganga bahuriye hamwe, bagiye kuvura umurwayi uryamye hagati yabo, bagiye kumubaga, bambaye amakanzu y'icyatsi kibisi, udupfukamun tw'ubururu, bari mu nzu yubakishije amakaro kandi irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari muganga imbere ye hakaba ahri umuntu arimo aravura. Bakaba bari mu cyumba nyine cyo kwa muganga kirimo ibikoresho nk'uburiri buryamwaho n'umurwayi, intebe ya muganga, imashini yifashishwa mu buvuzi n'ibindi.

Umubyeyi wambaye imyenda y'imyeru aryamye yegereye umwana we w'uruhinja abona ko baryamye mu nzitiramibu, rero ni byiza nk'umubyeyi kwibuka kuryama mu nzitiramibu mu gihe ufite umwana ukiri muto, bityo bikaba bimurinda ndetse n'umubyeyi ubwe bikamurinda kuba bakandura malariya.

Icyumba cyagenewe gushyirwamo abana bavutse igihe kitageze bityo kugira ngo bakomeze bitabweho kugira ngo batagira ikindi kibazo cy'ubuzima. Hari ibikoresho bitandukanye nk'icyuma bashyirwamo mu gihe batari bamera neza ndetse n'ibindi bibafasha gukomeza kugira ubuzima.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ishati y'ubururu ndetse n'uturindantoki. Bigaragare ko ari umushakashatsi, akaba ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi kiba kirimo ibikoresho bitandukanye kizwi nka laboratwari mu ndimi z'amahanga.

Abantu bicaye mu cyumba giteye irangi ry'umweru kandi na bo bambaye amataburiya asa umweru, bafite ibikoresho bari gukoresha byifashishwa mu buvuzi, urugero nk'ikizwi gikoreshwa mu kureba utuntu dutoya cyane.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bambaye amataburiya y'umweru harimo umukobwa ufite ibisuko imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye ibitabo amakayi amakaramu ndetse baje gupima ibintu bitandukanye muri laboratwari.

Ikiganza cyambaye akarindantoki k'ubururu gifashe akantu cyakojeje mu karahure, bigaragare ko hari umuntu uri mu nyubako yagenewe ubushakashatsi akaba arimo ariga ku bintu bigiye bitandukanye.

Itsinda ry'abantu b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru bari mu cyumba bakoreramo giteye irangi ry'umweru, imbere yabo hari meza iriho ibikoresho bitandukanye nk'amakayi, amakaramu ndetse n'ibikoresho bifashisha mu bushakashatsi.

Irerero rirererwamo abana bakiri batoya b'inshuke bityo bagakura byibuze bafite ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye n'amasomo cyangwa se n'uburezi bw'ibanze. Ni irerero babagaburiramo indyo yuzuye bafashwa n'ababyeyi.

Abantu bari kuva ku ivuriro ryubakishije amatafari ahiye ndetse risize n'irangi ry'umweru kandi risakaje amabati y'ubururu, rikikijwe n'ibiti kandi hari ikigega gifasha gufata amazi ava ku mabati ndetse bavuye kubaza imikorere y'ibitaro uko imeze.

Abantu benshi bateraniye muri sitade, bamwe bari hejuru, abandi bari hasi, abari hejuru bambaye imipira y'ubururu, n'aho abari hasi bambaye imipira y'imikara kandi barahagurutse bazamuye ukuboko kwabo kw'iburyo bafunze igipfunsi.

Abana bakiri bato cyane bari mu irerero ryabo, ubona ko harimo abantu bakuru babitaho babaha ubumenyi bw'ibanze mu myaka yabo, bakaba bafite impapuro zitandukanye barimo bariga kwandika no gusoma.

Umubyeyi uteruye akana ke abyaye vuba, mu ntoki ze zombi karimo ibishura by'ubururu, arishimye arimo aragasoma, bigaragare ko ari umubyeyi wari waje kubyarira kwa muganga none akaba abyaye neza.

Kuryama mu nzitiramibu nibwo buryo bwiza bwa mbere bwo kwirinda kuba warwara malaririya akaba ari indwara iterwa n'umubu kimwe nk'uko no gusiba ibyobo by'amazi ndetse n'ibindi bintu bishobora kuba cyangwa se byaba ubwororokero bwa malaria na byo aba ari ingenzi.

Umugabo usutamye ufite igikombe arimo araha umwana amufatiye ubona ko imbere ye hari abandi bana benshi bakaba bari kubitaho uyu mugabo akaba yambaye umupira wanditseho amagambo wa yunisefu akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Itsinda ry'abantu bicaye hamwe bamanitse amaboko yabo inyuma yabo hari abandi bahagaze, bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umweru, umutuku, ubururu ndetse n'ayandi, imbere yabo hari imbuga yubakishije amapave, naho inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, kiriho ibirango nk'icya RBC, akaba ari ikigo cyita ku buzima hano mu Rwanda, icyo cyapa kikaba cyanditse nk'amagambo arimo ibara ry'umweru n'ay'umukara.

Itsinda ry'abantu bahagaze hamwe bifotoje bafatanye ku ntugu, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, umukara, icyatsi n'ayandi, bahagaze mu mbuga yubakishijwe amapave.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bambaye imyenda y impimpuzankan yabo, mu ntoki zabo bafitemo udupapuro dutandukanye, hejuru yabo hari umugabo wunamye wambaye umupira w'ubururu ubona ko yari yaje kubasura.

Ikiganiro twite ku buzima bwo mu mutwe ku cyumweru tariki ya makumyabiri na gatanu Nyakanga bibiri na makumyabiri nari rimwe saa cyenda z'amanywa, hatumiwemo abantu bagiye batandukanye.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umweru ziteye mu byatsi kandi harimo umugore ukenyeye ibitenge wambaye umupira w'amaboko magufi ifite ibara rya kake, imbere ye hari ameza ndetse n'undi mugore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, hirya hari abandi bantu bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi kandi bari kuganira ku ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu bifotoje batandukanye harimo abakuze ndetse n'abana bakiri bato, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara, umutuku ndetse n'ayandi, urabona ko begereye inzu kandi inyuma yabo hakaba hari ibihuru.

Abantu ubona ko bahuriye mu cyumba bicaye ku ntebe bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, imbere yabo hari icyuma kizwi mu gutubura amashusho bakaba bari kureba ibyo cyatubuye hirya ku gikuta.

Icyapa kinini kimanitse ku biti kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, kikaba cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ay'umweru avuga ngo baho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe.

Abaturage benshi bicaye ahantu hari ibyatsi byumye ndetse hari umugore ufite ibisuko ku mutwe yambaye ipantaro y'umukara ari kubabaganiriza ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe kandi hirya yabo hari ipoto igiye ijyana umuriro mu ngo zihakikije.

Abantu bari ku murongo bambaye udupira twicyatsi, bafite impapuro mu ntoki zanditseho amagambo, barimo barasoma, inyuma yabo hari abana benshi barimo barakina.

Abantu bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru kandi gifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, bambaye udupira dusa hejuru dufite ibara ry'umweru tw'amaboko magufi kandi hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi ari kugira icyo abagezaho ku byerekeye ubuzima.

Abantu bifotoje harimo ababyeyi, abagabo n'abandi, bambaye imyenda hejuru y'umweru hasi bambaye irimo amabara atandukanye nk'umutuku, ubururu ndetse n'ayandi, inyuma yabo hari indabyo n'igiti kinini cy'umukindo.

Utubati twegeranye dusize irangi ry'umweru kandi dufite akabara k'icyatsi kagiye katuzengurutse, muri utwo tubati harimo imiti itandukanye yaba iri mu dukarito ndetse no mu ducupa. Hano rero akaba ari inzu igurisha imiti.

Icyumba cyagenewe gucururizwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu, icyo cyumba kikaba kirimo utubati tw'ibirahure tumanitsemo imiti iri mu dukarito n'iyinindi iri mu macupa.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, ifite imiryango itatu, imbere yayo mu mbuga hateretse kandagirakarabe zifashishwa mu gukaraba intoki, bityo tukavanaho umwanda cyangwa na mikorobe.

Umugore wambaye iherena ku gutwi ndetse n'impeta n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ari mu nyubako icururizwamo imiti izwi ku izina rya farumasi, harimo ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye buvura indwara nyinshi z'uburyo bwose.

Inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye izwi ku izina rya farumasi kandi harimo akabati gafite ibara ry'umweru kagiye gatondetsemo imiti, ku buryo umuntu ukoramo ashobora guhita asobanukirwa aho umuti uri bitamugoye.

Inyubako z'ubucuruzi zizwiho gucuruza imiti, ndetse imiryango yazo irafunguye. Imbere hari ibyapa bitandukanye, ndetse hari n'amapave kandi hari n'ibyatsi.

Inzu icururizwamo imiti izwi ku izina rya farumasi. Harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, iri mu kabati kariho ibirahuri, ibitswe neza kugira ngo itazangirika igihe cyayo cyo gukoreshwa kitaragera.

Akabati karimo imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi, harimo iri mu dukarito, dutoya n'utunini, hakaba n'indi miti iri mu macupa y'ibirahure, amakarito aho ari, ari mu mabara atandukanye, harimo asa umweru, umuhondo, ubururu n'andi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru. Cyanditseho amagambo asa icyatsi, andi asa umweru n'ubururu. Kikaba ari icyapa kigaragaza ko abantu hakorera inzu icuruza imiti.

Inzu iteye irangi ry'umweru, ifite ibaraza haparitsemo igare ndetse na moto iparitse mu mbuga yayo. Iyo nzu ifite icyapa hejuru kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse hashushanyijeho ibikoresho bitandukanye. Yegereye kandi umuhanda w'amabuye.

Abagabo babiri bahagaze bari kurebana, umwe yambaye itaburiya y'umweru undi yambaye umupira w'ubururu, bari mu nzu irimo akabati gateretsemo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, iyo miti ikaba iri mu dukarito cyangwa mu ducupa turimo amabara y'ubwoko bwose nk'umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi n'umweru.

Ipikipiki iparitse mu mbuga yubakishije amapave, iriho ibara ry'umutuku ndetse n'umusego w'umukara. Ikaba yegeranye n'inyubako ebyiri ziteganye ziteye irangi ry'umweru, zifite amadirishya n'ibirahure binini.

Muri farumasi ni hamwe mu hantu dushobora gusanga imiti idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi igihe twarwaye, indwara iyo ari yo yose urwaye ujya muri farumasi ukaka imiti igendanye n'uburwayi ufite.

Inyubako iteye irange ry'umweru ifite imiryango myinshi, imbere yayo hari imbuga y'amapave irimo icyapa ndetse hejuru kandi ku nzu hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho y'icyatsi agaragaza ko aho hari inzu icuruza imiti.

Indobo ziri mu ibara ry'umweru zigerekeranye, zizengurukijeho agapapuro gashushanyijeho amatungo atandukanye arimo :ifarashi, harimo ihene ndetse n'andi matungo magufiya. Ako gapapuro kandi kandiditse amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Inzu icururizwamo imiti; hari amagambo avuga ngo tuvurisha ibimera. Imiryango yayo irafunguye ku buryo umurwayi naza ahita yinjira. Itwikirwa n'izindi nyubako zigiye zitandukanye kandi nyuma yayo hari ibiti.

Itsinda ry'abantu, bahagaze hamwe. Harimo ababyeyi, abagabo ndetse urabona ko harimo n'urubyiruko. Bafite icyapa imbere yabo kiri mu ibara ry'umweru, ubururu. Kiriho ikirango cya RBC. Inyuma yabo hari inzu, iteye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abaturage bateraniye hamwe, bamwe barahagaze abandi baricaye, hirya yabo hari inzu zibakikije ndetse n'ibiti, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ijire y'umukara n'ipantaro y'ubururu urimo urabaganiriza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara, oranje, pinki ndetse n'andi mabara menshi, baje kureba igitaramo cyangwa se umuhanzi wari wabasuye.

Umugore ubona ko ari umuntu utera imiti mu mazu y'abaturage kugira ngo yice imibu itera malariya. Yambaye agapfukamunwa, ishati y'ubururu, uturindantoki, ipantaro y'umukara ndetse n'ipopo yifashisha atera uwo muti.

Umugore uhagaze wambaye ikote ndetse n'ijipo y'umukara ufite indangururamajwi isa umutuku, yicaranye n'abandi bantu batandukanye ku ntebe z'ubururu, n'icyatsi, ndetse kandi imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'ibindi bikoresho.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bicaye, bambaye imyenda irimo amabara yose: nk'umutuku, ubururu, umweru, umukara, umuhondo n'andi, hagati yabo harimo icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho amagambo y'umuhondo, umweru kandi hariho ikirango cya RBC.

Abantu biganjemo abakuze bahuriye hamwe, bari guhabwa amahugurwa ku bintu byerekeranye n'ubuzima. Higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu ubona ko bitabiriye inama cyangwa se umuhango runaka ahantu mu mudugudu, bicaye mu biti mu ntebe za palasitike, iruhande rwabo hari ingoma za kinyarwanda, higanjemo abantu bakuze abagabo n'abagore.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye byahurijwe hamwe. Bimwe biri mu dusahane ibindi biri mudusorori ndetse iruhande rwabyo hakaba hari n'agasekuru n'umuhini wako bisa umweru, byifashishwa mu kuvanga ibyo bimera byose bityo hakavamo imiti gakondo.

Imwe mu miti gakondo igiye itandukanye; hari iriri mu biti, ifite imizi ndetse n'amafu, kandi hari imifuka igiye mu mabara atandukanye irimo iyo miti.

Ibiribwa bitandukanye ushobora kuba wagenda ukaka muri resitora iyo ari yo yose ukaba wabibona, harimo nk'amafi, harimo imyumbati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibimera byakusanyirijwe ku meza hakaba hari n'amakoma muri ibyo bimera harimo imizi, imbuto, ibibabi ndetse n'ibindi bintu byinshi byifashishwa mu gukoramo imiti gakondo, iruhande rwabyo kandi hari udusekuru twabugenewe twifashisha mu kubivanga no kubisya kugira ngo bivemo iyo miti.

Ibimera ndetse n'ibindi bitandukanye byose byifashishwa mu gukora imiti gakondo, urugero harimo nk'ibyatsi, harimo imizi, harimo imbuto, impeke ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umuntu wagiye kwa muganga kwivuza ikibazo k'imitsi yari afite bityo umuntu muri kumwitaho akaba arimo aramukanda ku birenge bye, amugorora ndetse amumasa neza kugira ngo amaraso atambuke neza.

Inyubako iteye irangi ry'umukara, igipangu cyayo giteye irangi ry'umweru, ifite ibyuma biri ku gipangu n'inzugi ziri ku nzu bisa icyatsi, kuri iyo nzu hejuru hariho icyapa cyanditseho amagambo y'umutuku avuga ngo ivuriro.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu agapfukamuwa k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi arimo arakaraba ibiganza bye byombi ku gukarabiro, yegeranye kandi n'abandi bagabo harimo nk'uwambaye umupira w'umweru na we wunamye uri gukaraba, inyuma yabo kandi hahagaze undi mugabo na we wambaye ishati y'umutu n'ipantaro y'umukara uri kubareberera, ni byiza ko dukaraba intoki zacu bityo kugira ngo tugire isuku.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari ku rukarabiro arimo arakaraba intoki. Ni byiza kugira isuku n'intoki zacu mu gihe tugiye by'umwihariko kwa muganga, cyangwa se tuvuyeyo. Ikindi imbere ye hari inyubako iteye irangi ry'ubururu, iriyo abantu benshi, hejuru hariho icyapa kivuga ngo gira ubuzima.

Abantu babiri bari mu cyumba cyagenewe ubuvuzi, harimo imyenda igiye itandukanye, umwe muri bo ari kugenda ayishyira ku murongo kandi harimo intebe zifite ibara ry'umweru, ameza n'ibindi.

Inyubako y'ahatangirwa serivisi zigendanye n'ubuzima, isize irangi ry'ubururu kandi mu muryango wayo hari gushokamo abantu batandukanye, abirabura, abazungu ndetse hirya y'iyo nyubako hateye ibiti bitandukanye n'insina.

Imodoka ebyiri ziparitse zisa z'imbangukiragutabara ziri mu ibara ry'umweru n'umutuku, zifashishwa mu kugeza abarwayi kwa muganga zibakuye aho bari mu ngo zabo, iyo barembye cyane.

Imiti itandukanye, iri mu cyumba, harimo udukarito turi mu ibara ry'icyatsi, ubururu, umweru, tugerekeranyije, dushushanyijeho intama, inka, ingurube, ihene kandi ku ruhande rw'iburyo hari indi miti iri mu macupa.

Udukarito dufite ibara rya move ndetse n'umweru dushushanyijeho inka, ingurube ndetse n'andi matungo atandukanye twanditseho kandi amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibindi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda imo mu mabara y'ubururu n'umweru, ubona ko bahuriye ku nzu yagenewe kuvurizwamo abarwayi cyangwa se by'umwihariko ababyeyi n'abana.

Amacupa y'umweru maremare, areshya. Azengurukijeho agapapuro kari mu mabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara. Kandiditseho kandi amagambo mu ibara ry'umukara ariko na none hashushanyijeho amatungo nk'inka, intama n'inkoko. Bigaragara ko ari umuti uvura amatungo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho amagambo asa ubururu, icyatsi, umukara kandi hariho n'ibindi birango bitandukanye ibikoze mu uburyo bw'uruziga, ibishushanyije nk'abantu, ibirango bizwi nk'iby'ikigo cya bank cya Equity, ikirango kiranga kaminuza y'u Rwanda n'ibindi.

Ababyeyi baturutse mu bice bitandukanye baje gukingiza abana babo indwara zitandukanye zirimo imbasa, agakwega n'izindi kugira ngo bakure neza kandi bafite ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore uteruye umwana w'uruhinja ukivuka wambaye agapira k'ubururu uteze igitenge wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, ubona ko yari yaje kwa muganga aje kubyara none bakaba bamufashije akaba yabyaye neza.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge yambaye fulari mu ijosi ifite ibara ry'ubururu juru ndetse ukuboko kw'ibumoso afashemo ishakoshi avuye ku kigo nderabuzima kiri inyuma ye gisize irangi ry'ubururu.

Abantu bane bicaye hamwe harimo umugore umwe wambaye ijiri y'umukara ukurikiwe n'umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'abandi bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye nk'utubido, uducupa dutandukanye, impapuro n'ibindi.

Umubyeyi wicaye wambaye itabura y'umweru ufite ikaramu uri kwandika, iruhande ku ntebe ya sheze, hari umukecuru wikenyeje igitenge waje ngo bamuhe serivisi.

Abana bicaye ku murongo bitegeye inyubako iri imbere yabo, iteye irangi ry'ubururu. Ifite icyapa hejuru cyanditseho ngo gira ubuzima. Iyo nyubako kandi imbere yayo ikaba ifite ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Inyubako iteye irangi ry'ubururu ndetse n'amabati yayo asa ubururu, hariho icyapa cy'umweru kandi imbere yayo hahagaze abantu batandukanye, imbere y'iyo nzu mu mbuga hateye indabyo kandi hari n'ubusitani n'icyapa.

Inyubako iteye irangi ry'ubururu kandi isakaje n'amabati y'ubururu, ifite ibaraza imbere hicayemo abantu ubona ko baje gushaka ubuvuzi bw'ibanze. Iyo nzu ifite icyapa hejuru cyanditseho ngo "gira ubuzima" imbere y'iyo nzu hari imbuga isashemo amabuye iteretsemo intebe irimo na zakandagirukarabe.

Inyubako ifite amabati ndetse na yo ubwayo iteye irangi ry'ubururu, mu gasima kayo harimo abantu biganjemo abadamuba, iyo nyubako hejuru ifite icyapa cy'umukara kiriho amagambo asa ubururu avuga ngo Gira ubuzima.